Icyapa cyamamaza kiriho umugore w'inzobe wicaye mu modoka arimo aseka, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Britam, ubwo cyamenyeshaga ibikorwa byacyo ndetse na zimwe muri serivisi gitanga, kibimenyekanisha hirya no hino mu gihugu.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Radiant kiriho abagabo babiri baramukanya mu biganza, kigaragaza ko abakiriya ndetse n'iki kigo ari abafatanyabikorwa bityo ko aho umwe ari undi atahomba, ibi bikaba bigamije kugira ngo abakiriya biyumvemo iki kigo ndetse banayoboke serivisi gitanga.

Icyapa kinini cyo ku muhanda cyamamaza kompanyi itanga serivisi z'ubwishingizi ya Bikoni insuwarensi, aho serivisi zitangwa n'iki kigo, harimo nk'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku buzima, n'ibindi bitandukanye.

Icyapa kinini kimanitse ku muhanda cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi ya kete inshuwarense, aho iyi sosiyete itanga ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi ku buzima ndetse n'ibindi.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya RADIANT, ubwo cyamenyeshaga Abaturarwanda ko cyatangiye gutanga serivise y'ubwishingizi ku matungo, harimo inka, ingurube, ndetse n'inkoko, nka bumwe mu buryo bwabafasha kwiteza imbere birinda ibihombo biterwa n'ibiza ndetse n'ibyorezo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho ifoto y'umusore ufashe igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya mutual insurance aho byamenyeshaga abakiriya babo ko babazaniye ubwishingizi bushya ari bwo bwishingizi ku buzima. Aho umukiriya yishyura amafaranga hanyuma agahabwa ikarita yo kwifashisha mu gihe agiye gusaba serivisi z'ubuzima hirya no hino ku bigo bitanga izo serivisi bitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu mabara atandukanye, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, aho cyamenyeshaga abaturage ndetse n'abakiriya bacyo ko cyazanye ubwishingizi ku buzima, nka kimwe mu bisubizo bikenewe kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ikomeze gushyirwa imbere.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda bwa Radianti, aho bwamenyeshaga abaturarwanda bose ko bwazanye serivisi yo gutanga ubwishingizi ku buzima nka bumwe mu buryo bwizewe, umuntu yateganyiriza ubuzima bwe kuko ntawe uzi uko bucya bumeze kandi Radianti igatanga ikarita yo kwivurizaho ku muntu wamaze kugura ubwishingizi.

Icyapa cyamamaza cyatanzwe na sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda ya Radiant, aho yashishikarizaga Abanyarwanda kuyoboka gahunda yiswe turi kumweza, aho bakangurira abaturage kugura ubwishingizi bw'ubuzima, aho kandi wabugura wifashishije terefone yawe ngendanwa, ukandakanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru gishushanyijeho inkoko ndetse n'imiti yazo, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Radiyanti. Aho cyakanguriraga abakiriya bacyo ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ko noneho bashobora gushaka ubwishingizi bw'amatungo mu gihe babukora, bityo bakazagobokwa igihe bahura n'ibiza cyangwa se n'ibyorezo.

Icyapa kinini cyamamaza kompanyi itanga serivise z'ubwishingizi ya hororadi, aho serivise itangwa n'iki kigo harimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku mutungo utimukanwa ndetse n'ibindi.

Apulication y'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Equity bank, aho yashyizweho mu rwego rwo korohereza abakiriya b'iki kigo kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, bidasabye ko bajya aho iki kigo gikorera, ahubwo bakabikora bifashishije mudasobwa ndetse na telefone zabo.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda, mu rwego rwo gufasha abakiriya bacyo kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo bitabasabye ko bajya aho ikigo gikorera ahubwo bakazibona bakoresheje mudasobwa cyangwa terefone ngendanwa muri iki kigo.

Apurikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda, mu rwego rwo korohereza abakiriya bacyo kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, bidasabye ko bajya aho zikorera, ahubwo bakabikora bifashishije mudasobwa cyangwa terefone ngendanwa.

Apulikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu rwego rwo korohereza abakiriya basaba serivisi muri iki kigo, aho bitakiri ngombwa ko bajya aho ikigo gikorera bashaka serivisi, ahubwo bakazihabwa ndetse bakanazibona bifashishije telefoni zabo ngendanwa na mudasobwa.

Urupapuro rwatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda, rwagaragazaga uko ibikorwa bitandukanye byagiye bibera kuri konti y'umukiriya nk'imwe muri serivisi zitangwa n'ibigo by'imari hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyiriweho abakiriya mu rwego rwo kunoza serivisi zitangwa na Iwacu staff, aho abakiriya b'iki kigo babona zimwe na zimwe muri serivisi bitabasabye kujya aho ikigo gikorera, ahubwo bakazibona bifashishije telefoni ngendanwa cyangwa se mudasobwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya enisibi eyi. Cyashyizweho mu rwego rwo korohereza abakiriya bacyo, kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo. Bidasabye ko bajya aho gikorera ahubwo bakifashisha mudasobwa cyangwa se telefone ngendanwa basaba ndetse banahabwa izi serivisi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi cyane cyane hibandwa ku bijyanye n'umuco gakondo. Harimo imyenda, inkweto, uduseke, imitako ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi bikagaragaza ko umuco nyarwanda usigasirwa hifashishijwe uburyo butandukanye.

Icyapa kinini kimanitse ku muryango w'inyubako ikoreramo Asimara Burandizi Butike, aho kigaragaza amasaha y'akazi uhereye kuwa mbere kugeza ku cyumweru ndetse na nimero wahamagaraho mu gihe waba ubakeneye mu gihe cyihutirwa.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, aho irimo utubati twagenewe kumanikwamo imyenda, hamanitsemo amashuka, ibiringiti, ibitenge ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu wakenera mu gihe uganye muri iyi nyubako.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwa kijyambere cyane cyane hibandwa ku myenda, hamanitsemo amashati y'ubururu, amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, harimo kandi abakiriya barimo kugura ibicuruzwa bitandukanye nka bimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye cyane cyane ibigezweho byiganjemo imyambaro, imirimbo n'imitako n'ibindi bitandukanye. Inyubako ikaba ifite inkuta zifite amarangi y'umweru ndetse aho uwishyura yifashisha uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga cyangwa se akishyura mu ntoki bitewe n'ibimworoheye.

Inyubako icururizwamo imyambaro itandukanye cyane cyane iyabakorerwa hano imbere mu gihugu izwi nka medi ini Rwanda. Aho imanitse kutwuma twabugenewe hanyuma ikaba iri mu kabati. Aho abakiriya baza bayishima bakayigura ndetse ibi byihutisha iterambere ndetse no guhesha agaciro ibikorerwa iwacu mu gihugu.

Imodoka ebyiri, ziri mu ibara ry'umukara, ziparitse mu nyubako y'ububiko ya sosiyete ikora ibinyabiziga ya yundayi nk'uko bigaragazwa n'icyapa kiri inyuma y'izi modoka, aha akaba ariho imodoka zimaze gukorwa zishyirwa, mu gihe zitegereje kujya ku isoko.

Imodoka yo mu bwoko bwa kiya, ifite amabara y'umutuku, iparitse imbere y'inyubako ikoreramo ikigo cya Kigali karizi maketi, gisanzwe gicuruza ibinyabiziga, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kubisana mu gihe byangiritse, imodoka ikaba igurishwa miliyoni mirongo inani ku muntu uyikeneye.

Imodoka nyinshi cyane zifite ibara ry'umweru n'umukara ziparitse mu cyanya cyagenewe guparikwamo imodoka. Izi modoka zikaba zicuruzwa na kompanyi isanzwe ikora iyi serivisi yo gucuruza ibinyabiziga ya Kigali cars market, aho ukeneye ikinyabiziga agana iyi sosiyete, hanyuma agashima mu byo bafite, n'iyo akeneye kugitumiza hanze y'Igihugu kandi yishyura amafaranga make, bakakimuzanira andi akazayishyura kigeze mu Gihugu.

Abagabo babiri bahagararanye, iruhande rwabo hari imodoka y'ibara ry'umukara yo mu bwoko bwa Kiya, bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho ijambo Akagira Business Moto, iyi akaba ari kompanyi icuruza ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kubisana mu gihe byangiritse, ikabi ikorera i Kigali mu Rwanda.

abagabo babiri bahagararanye inyuma yabo hari imodoka yo mu bwoko bwa fusso bafashe icyapa mu ntoki gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho akagera motos iyi akaba ari sosiyete icuruza ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubisana mu gihe byangiritse hirya no hino

Inyubako isakaye, yagenewe gushyirwamo imodoka z'ubwoko butandukanye, igaragaramo imodoka zihagazemo, zitarimo gukoreshwa.

Imodoka yo mu bwoko bwa merisedezi bezi i magana atatu iri kugurishwa n'ikigo gicuruza ibinyabiziga cya Kigali karizi maketi, aho iri kugurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu gusa z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu uyishaka.

Inyubako iriho ibyapa bya kompanyi ikora ibinyabiziga ndetse ikanabicuruza ya Yundayi, aho mu bubiko bwabyo haparitse ibinyabiziga byinshi by'ubwoko butandukanye, imbere y'inyubako kandi hari ubusitani bwiza buyikikije, hari n'ipoto rishinzemo ritwara umuriro w'amashanyarazi riwuzana muri iyi nyubako.

Abagabo babiri bahagararanye basuhuzanya ndetse bafashe mu ntoki icyapa gifite ishusho y'urufunguzo cyanditseho Akagera bisinesi gurupe, iyi akaba sosiyete icuruza ibinyabiziga ndetse n'ibikoresho byo kubisana mu gihe byangiritse ikorera mu mugi wa Kigali.

Inote igaragara imbere n'nyuma, amafaranga igihumbi cy'amanyarwanda.

Abagabo babiri bicaye barebana, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru na karuvati. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa, imashini isohora impapuro, ndetse n'imashini ifata ibikumwe. Iruhande rwabo kandi hari icyuma cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe haba habaye impanuka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite amafaranga mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho imashini ibara amafaranga, iruhande rwayo kandi hari imizingo minini y'amafaranga ahambirijwe imigozi yabugenewe, bigaragara ko yamaze kubarwa neza hifashishijwe iyi mashini. Izi mashini zigaragara cyane mu bigo bitanga serivisi z'imari ndetse n'iz'ivunjisha hirya no hino mu gihugu.

Abagabo babiri bahagararanye mu nyubako icururizamo ibiribwa izwi nka kantine, ahari ibiribwa bitandukanye nk'amandazi, keke ndetse n'ibinyobwa bidasembuye cyane cyane higanjemo ibikomoka ku mata nk'amayawurute, amata y'ikivuguto, inshyushyu ndetse n'ibindi.

Icyapa kinini kimanitse ku nyubako, kiriho ibikoresho bitandukanye, kigaragaza ko ikorerwamo na Nyanza miliki indusitirizi, aha hakaba hatunganyirizwa umusaruro w'ibikomoka ku bworozi cyane cyane amata yongerwa agaciro ndetse anakorwamo ibindi bikorwa bitandukanye.

Imashini nini cyane iri mu ibara ry'umweru, iri mu ruganda rw'Inyange, imashini ikoreshwa, mu kongerera agaciro umusaruro w'ibikomoka ku bworozi, cyane cyane amata abyazwamo ibindi bikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa nkaya holte foromaje n'ibindi.

Inyubako icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye cyane cyane hibandwa ku musaruro w'ibikomoka ku bworozi nk'amata. Ibicuruzwa bicuruzwa harimo; inshyushyu, ikivuguto, amaji y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi. Aho abakiriya baza bakabifata bahita babirya ako kanya, bidasabye ko bajya kubitegura ukundi.

Inyubako icururizwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye cyane cyane hibandwa ku bikomoka ku mango, nk'amata yaworute, foromaje n'ibindi. Ibi bikorohereza abakora utuzi dutandukanye kubona aho bafatira amafunguro byihuse, bitabasabye gutegereza igihe kinini cyangwa kujya kuyatunganya.

Inzu icururizwamo amata irimo ibikoresho nk'akabati karimo utujerekani tw'amata ndetse n'ikigega kirimo amata y'uruganda rw' Inyanza miriki indasitiri rimitedi.

Inyubako itunganyirizwamo umusaruro w'ibikomoka ku bworozi w'amata ndetse akanabyazwamo ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, aho amata atunganywa hanyuma agashyirwa mu tujerikane dutandukanye hagendewe ku ngano y'ibikenewe ku isoko. Hari kandi n'atunganywamo ibindi binyobwa, nka yawurute, foromaje n'ibindi.

Ibikombe byo mu birahuri by'amatasi biteretse ku meza, birimo amata, hamwe n'akajerekani kabikwamo amata, bicururizwa muri kantine, icuruza ibikomoka ku mata, nka yawurute, amata y'ikivuguto ndetse n'amata y'inshyushyu.

Ibiganza by'umuntu bifashe isiniya nini iriho amandazi akozwe mu ifarini ndetse ahiye neza ateretse ku meza, asize amarangi menshi. Bigaragare ko ari mu iguriro aho bacuruza ibicuruzwa bihita biribwa ako kanya nko mu makantine, alimantasiyo n'ahandi.

Ibyo kurya bikoze mu ifarini ndetse n'ibirayi bizwi nk'ibiraha, biri ku isahani nini y'icyuma iteretse ku meza akoze mu mbaho. Ibi biribwa bikaba bikundwa cyane n'urubyiruko aho biryoha cyane, ndetse bikaba bigura amafaranga make ku buryo bibasha kugurwa na buri umwe wese.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo n'ibara ry'umukara, kiriho ifoto y'umugore ufashe telefone, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya MTN, aho yamenyeshaga abakiriya bayo ko yabazaniye ipaki nshya y'amasegonda izwi nka irekure.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa bitandukanye hirya no hino ku isi, cya Paypal. Aho umuntu ashyira amafaranga kuri uru rubuga, bityo akaba yayakuraho yishyura ibicuruzwa hirya no hino ku isi, bidasabye yuko ajya kuvungishasha ahubwo agakoresha amafaranga afite kuri uru rubuga.

Urubuga rwo kuri murandasi ruzwi nka peyipolu, rwifashishwa mu bucuruzi butandukanye hirya no hino ku isi, aho rukoreshwa umuntu yishyura cyangwa agura ibintu bitandukanye mu bihugu byose bitandukanye ku isi. Aho uru rubuga bitari ngombwa ko umuntu avunjisha ahubwo amafaranga afite kuri uru rubuga ari yo akoresha mu gihe agiye kwishyura ibintu bitandukanye.

Apuliksiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya sipeni, aho ifasha abakiriya kohereza, kwakira ndetse no kubitsa amafaranga bitabagoye, bifashisha ikoranabuhanga, iki kigo kandi gitanga izindi serivisi harimo gutanga inguzanyo z'igihe gito n'izindi.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivise z'itumanaho mu Rwanda MTN gufasha abakiriya barwo kuborohereza kubona zimwe na zimwe muri serivise zitangwa n'iki kigo bifashishije telefone zabo ngendanwa, aho bakanda imibare yabugenewe hanyuma bagakurikiza amabwiriza mu kubona izi serivise.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa mu kohereza amafaranga hirya no hino mu bihugu bitandukanye, aho bitakiri ngombwa ko amafaranga ategerwa indege kugira ngo agere ku bavandimwe cyangwa incuti zawe ziri hirya no hino ku isi, ahubwo wifashisha imbuga zikorera kuri murandasi ukabohereza amafaranga mu bihugu barimo bitakugoye.

Apurikasiyo y'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Sipeni Rwanda, aho gitanga serivisi z'imari zitandukanye, harimo nko kwizigamira, gutanga inguzanyo z'igihe kirekire n'izindi z'igihe gito, kohererezanya amafaranga n'izindi nyinshi hifashishijwe ikoranabuhanga, bidasabye ko umuntu ajya aho ikigo gikorera, ahubwo akaba yabikora yifashishije terefone ngendanwa cyangwa mudasobwa.

Apurikasiyo yashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya MTN mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo kubona zimwe na zimwe muri serivisi z'iki kigo bitabagoye, ahubwo bakifasha telefone ngendanwa cyangwa se mudasobwa mu kwaka ndetse no guhabwa izo serivisi.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya spin, aho abakiriya b'iki kigo bashobora kwishyura ndetse no kugura ibicuruzwa bitandukanye, bifashishije uru rubuga. Uru rubuga kandi rutanga inguzanyo z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito ku bakiriya barwo, barukoresha buri gihe.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa bimwe na bimwe bidasabye ko umuntu akoresha amafaranga afatika ahubwo agakoresha terefone ye cyangwa mudasobwa, ibi ni bumwe mu bizamura imibereho myiza ndetse bikazamura n'ubukungu, aho bitakiri ngombwa ko abantu bagendana amafaranga ahubwo bifashisha ikoranabuhanga mu byo bakora byose.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'imari cya sipeni aho cyorohereje abakiriya bacyo kubona serivisi zitangwa n'iki kigo bidasabye ko bajya aho gikorera ahubwo bakazibona bifashishije telefoni cyangwa se mudasobwa mu gusaba ndetse no guhabwa izi serivisi.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya MTN, mu rwego rwo korohereza abakiriya bacyo kubona zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, bidasabye ko bajya aho ikigo gikorera ahubwo byose bakabikora bifashishije telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu ku musoro, rugaragaraho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Rwanda reveni otoriti.

Urupapuro rwatanzwe n'ikigo gitanga serivise z'imari mu Rwanda cya jiti banki, aho rwahawe umukiliriya rugaragaza ibikorwa byabereye kuri konti ye afite muri iki kigo mu gihe cy'umwaka wose, iyi ni imwe muri serivise itangwa n'ibigo by'imari bitandukanye bikorera hirya no hino mu gihugu.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Reveni Otoriti. Gihawe ikigo cya ngalihayidoro pawa limitedi igaragaza ko iyi kompanyi yamaze gutanga ipatanti y'umwaka w'ibihumbi bibiri nacumi na karindwi.

Icyemezo cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, gihawe ikigo cya tekino purinti limitedi, iki cyemezo kigaragaza ko iyi kompanyi nta mwenda w'imisoro ibereyemo Rwanda reveni otoriti.

Inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Reveni Otoriti, yahawe ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda igaragaza ko iki kigo cyishyuye amahoro y'isuku mu kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda.

Urupapuro rwatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda rwa banki ya Kigali. Aho rwagaragazaga ibikorwa bitandukanye byabereye kuri konti y'umukiriya wabo, mu gihe cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani.

Abagabo babiri barimo kugurana amafaranga, umwe atanga inoti ifite ibara ry'umutuku yanditseho ijana ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, aho irimo ku kuguranwa n'inoti z'amadolari y'Amerika, ibi ni bimwe mu byifashishwa mu gihe cy'ivunjisha, bitabaye ngombwa ko abantu bajya aho ibiro by'ivunjisha bikorera.

Inoti ifite ibara ry'umuhondo yanditseho umubare ibihumbi makumyabiri, ikaba ari inota ikoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo, aho igaragaza ibihumbi makumyabiri, iriho kandi impara n'imparage ndetse n'ikibumbano cy'umugore wikoreye agaseke.

Umuntu urimo kubara amafaranga ayafunga mu mifungo bitewe n'ingano yayo, aho yamaze kubara inoti nyinshi zirambitse iruha ndembitse akaba akiririmo kuba n'andi. Aya mafaranga akoreshwa mu bihugu by'amahanga mu gihugu cy'ubu Buhinde.

Umuntu urimo kubara amafaranga y'ubwoko butandukanye, higanjemo amadevize akoreshwa mu bihugu bitandukanye, aya akaba yinjira mu gihugu binyuze mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo, ibi bikazamura imibereho y'abaturage ndetse bikagaragaza n'iterambere ry'igihugu ko ririmo kwihuta.

Imashini yifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'imari ndetse n'ivunjisha ibara amafaranga, iyi ikaba ifasha abacuruzi ndetse n'abandi bakora ibi bitandukanye kubara amafaranga mu gihe gito, ibi bikihutisha imitangire ya serivisi ndetse bikananoza akazi kabo.

Ibiganza by'umuntu uri kubara amafaranga y'ubwoko butandukanye, iruhande rwe hari imizigo myinshi y'amafaranga ahambirije utugozi twabugenewe, bigaragare ko yo yamaze kubarwa. Aya mafaranga ari mu kigo cy'imari gitanga serivise z'ivunja n'ivunjisha ndetse no kubitsa.

Icyapa kinini kimanitse ku nyubako kigaragaza ko hakorera ikigo gitanga serivisi z'ivunjisha ku isoko mvujafaranga, cya shahansha foregisi biro. Aho umuntu ukeneye amadevize cyangwa amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu agenda akaba yayahabwa bityo bikamworohera kwishyura serivisi zitandukanye imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo iyo afite amadevize.

Inyubako iriho ibyapa byamamaza uburyo bwo kohererezanya amafaranga, hinjiyemo umuntu ugaragara nk'uwaka serivisi.

Inyubako iriho ibyapa byinshi cyane bigaragaza ko itangirwamo serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga. Aho umuntu ukeneye amafaranga akoreshwa imbere mu gihugu aza akayahabwa. Ndetse n'ukeneye amadevize akaza akayahabwa. Ibi bikazamura ireme ry'imitangire myiza ya serivisi, haboneka uburyo bw'imyishyurire bugezweho.

Icyapa kigaragaza ahakorera ikigo gitanga serivisi z'ivunjisha ku isoko mvujfaranga cya GNK Forix Bureau, aha hakorerwa serivisi z'ivunjisha ku buryo ufite amadolari cyangwa se uyakeneye ayahabwa, ibi bikamworohereza muri serivisi zitandukanye akeneye mu gihugu.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara iriho utubara tw'umutuku, aho ahagaze imbere y'ibyapa binini bigaragaza uko ibiciro ku isoko ry'amafaranga bihagaze, ku kigo cya Hope foregisi biro gitanga izi serivisi z'ivunjisha mu Igihugu.

Icyapa kinini kimanitse ku nzu kiri mu mabara y'umutuku, gishushanyijeho amafaranga y'ubwoko butandukanye, kigaragaza ko inyubako ikoreramo ikigo cya kani foreyini egisicange, gitanga serivisi z'ivunjisha ku isoko mvunjafaranga. Ibi bikorohereza abaturage kubona amadovize ndetse no kuyatanga kubakiriya mafaranga akoreshwa imbere mu gihugu.

Ibikoresho bitandukanye bikorwa n'abanyabugeni babikora mu mbaho bakabibyazamo ibikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi harimo nk'intebe, ameza, utubati n'ibindi, ibi kandi bikazamura agaciro k'inyubako nk'uko biba biri ngombwa kandi bifite agaciro k'amafaranga kenshi mu nzu.

Ubugeni ni kimwe mu bikorwa bikorerwa mu Rwanda bigafasha abaturarwanda kwiteza imbere, yaba kuva ku bakora ibikorwa byo kuzana ibikoresho by'ibanze ndetse n'ababitunganyamo ibikoresho bitandukanye, aho babikoramo nk'ameza, intebe ibitanda, utubati ndetse n'ibindi bikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako ikoreramo sosiyete icuruza ibicuruzwa bikomoka ku mbaho izwi nka kwizerwa art, aho bagira ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibikomoka ku mbaho nk'ameza, ibitanda, intebe, utubati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho bikoze mu mbaho byakozwe n'abanyabugeni aho bafata imbaho bakazitunganyamo ibikoresho bitandukanye bitewe n'ibikenerwa mu buzima bwa buri munsi nk'intebe, ameza, utubati n'ibindi bitandukanye, ibi bikabagirira akamaro bo ubwabo kuko bibaha amafaranga ndetse bikanatuma natwe tubona ibikoresho bizamura ubuzima bwiza kuri twe.

Ubugeni ni kimwe mu myuga itunze abayikora ndetse ikanazamura ireme n'agaciro k'ibikomoka ku buhinzi bw'ibiti, aha hari ameza ndetse akozwe mu biti cyane, utubati, intebe ndetse n'ibindi bituruka mu mbaho aho byakozwe n'umunyabugeni.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, harimo kandi intebe nziza cyane za kijyambere zikozwe mu mbaho, aho arimo intebe ikoze mu mbaho zigezwe zo mu bwoko bwa ribuyu, intebe ikaba yarakozwe n'umunyabugeni ayitunganya neza cyane, ibi bigaragaza ubuhanga bw'abakora uyu mwuga ndetse n'akamaro kawo.

Ubwogero rusange bukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti bitandukanye bitanga umuyaga mwiza, iruhande rwabwo hari udutebe twagenewe kuruhukiramo ku bantu basoje koga cyangwa se abashaka kuganira bumva umuyaga wo kur' ubwo bwogero nk'imwe muri serivisi zitangwa hirya no hino mu mahoteli.

ahatangirwa serivisi z'ibiribwa n'ibinyobwa mu cyumba cya hotel aho hari ameza manini cyane azengurutswe n'intebe zikoze mu byuma zifite imisego y'ikijuju izi ikaba arimwe muri serivisi usanga mu mahoteli ndetse n'amaresitora yakira abantu benshi

Inyubako nziza ndende ya hoteli, imbere yayo hari indabo z'ubwoko butandukanye. Imbere yizo ndabo hagaragara pisine yokongeramo.

Inyubako ebyiri zifite igisenge cy'umutuku ndetse zubatse mu buryo busa. Imbere yazo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo imitaka, bigaragare ko ari hoteli zitangirwamo serivisi. Aho munsi y'imitaka hari udutebe twicarwaho mu gihe abantu barimo bafata amafunguro cyangwa baganira nk'imwe muri serivise zitangwa n'amahoteli.

Inyubako nziza cyane ndende ifite ibara ry'umweru iri kwakamo amatara y'ubwoko butandukanye imbere yayo hari ameza azengurutswe n'udutebe bigaragara ko hari ahakirwa abantu benshi iruhande rwazo kandi hari ibibumbano biteretsemo indabo nziza cyane ibi bigaragaza ubwiza bw'iyi nyubako

Ubwogero rusange buzwi nka pisine bugaragara hirya no hino mu mahoteli ndetse n'ibigo bitandukanye. Bukikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse n'udutebe twagenewe kwicarwamo n'abantu mu gihe bari koga cyangwa barimo baruhuka bitegereza ubwiza bw'aya mazi.

Intebe zikoze mu biti zigaragaza ishusho y'ibikoresho gakondo nk'umuvure, iri mu busitani bwiza cyane bukikije inyubako ikoreramo hoteri mu mujyi wa Kigali, aho hatangirwa serivisi zitandukanye, harimo nko gutanga ibyumba bihuriza hamwe abantu benshi, kwakira amakwe n'ibindi.

Inyubako nziza cyane ikoreramo hoteli ya radisoniburu aho hari udutebe twiza cyane tw'ibyuma dufite imifariso y'ibara ry'umweru, twiyakiriramo abantu baje gushaka ibiribwa ndetse n'ibinyobwa muri resitora y'iyi hoteli. Iruhande kandi hari ubusitani bwiza cyane buri mavaze bukikije uyu mwanya. Ibi bigakora ubwiza ndetse n'uburanga bw'iyi hoteli.

Ubwogero rusange busangwa kuri imwe i hoteri ikorera mu mujyi wa Kigali, aho bukikijwe n'imitaka myinshi irimo udutebe munsi hicarwa n'abakiriya ndetse n'abandi bose bariruka bamaze koga, bafata amafunguro ndetse n'ibyokunywa bitandukanye, ibi ikaba ari imwe muri serivise zitangwa n'amahoteri.

Inyubako nziza cyane zifite igisenge cy'umutuku ndetse zisize amabara y'umuhondo, zizengurutswe n'ubusitani bwiza cyane bukikije igipangu, izi nyubako zikaba ziri ku muhanda wa kaburimbo ku buryo abahagera bitabagora. Izi nzu zikaba zikorerwamo serivisi z'amahoteli, aho ukeneye icyumba cyo kuraramo, aho gufatira amafunguro cyangwa izindi serivisi zitangwa n'amahoteli wazisanga.

Inyubako ikoreramo hoteli ya senti famiye aho itanga serivise zitandukanye, harimo nko gucumbikira abantu, kubaha ibiribwa n'ibinyobwa, gutanga ibyumba by'inama ndetse n'ibindi bikorwa bihurizamo abantu benshi. N'izindi serivise zitandukanye zitangwa n'iyi hoteli.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi meza, imitako ndetse n'ibibumbano biteretsemo indabo. Umwanya wagenewe kwakira abantu, aho abantu baje gusaba serivisi zitandukanye muri hoteri, bakirwa bagahabwa amakuru y'ibanze ndetse bakanandikwa kugira ngo amakuru ndetse na serivisi bahabwa bikomeze gukurikiranwa mu mucyo.

Inyubako ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cya home inshuwarensi aho itanga serivisi z'ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ku binyabiziga ndetse n'ubwishingizi ku buzima. Aha kandi hari intebe zagenewe kwakirwamo abakiriya mu gihe barimo guhabwa serivisi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto y'umukara, aryamye mu ntebe ifite ibara ry'umweru, imbere kandi hari ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho. Hari icyapa kandi kigaragaza ko hakorera sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi ya Sonarwa, aho itanga ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda cya Purayime inshuwarensi, aho iki kigo gitanga ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ubwishingizi ku buzima, ubwishingizi ku matungo ndetse n'izindi zitandukanye.

Inyubako ndende cyane ifite amabara y'umuhondo, imbere yayo hari icyapa cya rizavu peyi, uru akaba ari urubu rwo kuri murandasi rwifashishwa mu kwishyura ndetse no kugura ibikoresho bitandukanye hakoreshejwe uru rubuga mu bihugu bitandukanye bidasabye ko umuntu ajya ku kuvunjisha amafaranga ahubwo agakoresha ayo afite kuri konti aba afite kuri uru rubuga.

Inyubako ifite amagorofa abiri ikorerwamo n'ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye nk'uko bigaragazwa n'ibyapa bitandukanye bigiye bimanitse kuri iyi nyubako, aha kandi hari umwanya wagenewe guparikwamo ibinyabiziga ndetse n'ubusitani bwiza cyane bukikije inyubako, ibi bikagaragaza ubwiza bw'umujyi ndetse n'imitangire myiza ya serivise.

Ibiro amabara atandukanye yiganjemo umweru n'ubururu, hejuru hagaragara ibipurizo n'imitako, amwe mu magambo agaragara mu biro, ni ijambo ririmo ma u na a irindi ijambo ryanditse ngo werikamu.

Inyubako nziza cyane, ifite amabara y'umweru, haba ku bikuta hasi ndetse no ku mpande, irimo kandi intebe zifite ibara ry'ubururu, ikorerwamo na kompanyi itanga serivisi z'ubwishingizi ya ladiyanti, ubwishingizi butangwa n'iki kigo harimo, ubwishingizi ku binyabiziga, ubwishingizi ku mutungo utimukanwa, ndetse n'ubwishingizi ku matungo.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya GT banki, aho bwamenyeshaga abakiriya bacyo ko cyabazaniye serivisi nshya yo guhabwa inguzanyo y'igihe kirekire ndetse n'igihe gito ku bayikeneye. Aho kandi babasha kuyibona bitabasabye ko bajya aho ikigo gikorera, ahubwo bakoresha terefoni zabo ngendanwa.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho umugabo wambaye ishati y'ubururu amanitse amaboko, kibwira abantu ko bashobora guhabwa inyungu ya cumi na rimwe ku ijana ku bwizigame bwabo buri kwezi mu gihe bakoresheje ikigo cy'imari kirimo kwamamaza.

Urupapuro rutangwa n'ikigo gitanga serivise z'imari mu Rwanda cya ayendemu banke, aho ruhabwa umukiriya wacyo ukeneye gusaba inguzanyo, akakuzuza neza ndetse agashyiraho ifoto ye, bityo bikagenderwaho ahabwa inguzanyo.

Icyapa cyamamaza cyakozwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya banki y'abaturage, aho cyamenyekanishaga serivise nshya ya Gera ku ntego cyari cyazanye, iki cyapa kikaba kiriho umusore ndetse n'umugeni bahoberanye bafatanye.

Icyapa kiriho umusore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'igisurubeti cyagenewe akazi, cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya Ekwiti, aho cyamenyeshaga abakiririya bacyo ko kibafitiye serivisi yo guhabwa inguzanyo kurangirira kuri miliyoni mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda nta ngwate batanze.

Icyapa cyamamaza cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya banki y'abaturage, aho cyamenyeshaga abaturarwanda bose ndetse n'abakiriya babo by'umwihariko ko babazaniye uburyo bushya bwo kubonamo inguzanyo bitabagoye, bikabafasha mu kwiteza imbere bakora ibikorwa byabo bifashishije inguzanyo bahabwa n'iki kigo.

Umukobwa w'inzobe wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru ndetse n'ikarita mu gatuza yanditseho ijambo ekwiti, imbere ye hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hateretse agacupa k'amazi ndetse n'izindi mpapuro nyinshi z'ikigo cy'imari, aho arimo kwakira abaje gusaba serivisi z'ikigo akorera mu gihe bari bagiye kumenyekanisha ibikorwa byabo hamwe mu gihugu.

Abamama benshi bibumbiye muri koperative ikora ibikorwa by'ubugeni cyane cyane hibandwa mu kuboha, aho baboha ibikoresho bitandukanye: nk'ibyibo, ibiseke, imitako ndetse n'ibindi...; ibi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no kuzamura imibereho yabo myiza.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'imari mu Rwanda cya NCBA, aho cyamenyeshaga abakiriya bacyo ndetse n'abanyarwanda muri rusange ko noneho cyabazaniye uburyo bwo guhabwa inguzanyo zo kugura ibinyabiziga bitandukanye, ibi bikaba byabafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Abagore babiri bahagararanye barebana bishimye bari guseka bahererekanya ikarita y'ikoranabuhanga undi afite imashini mu ntoki ikoreshwa y'ikarita, bigaragare ko umwe ari kwishyura ibicuruzwa amaze guhaha yifashishije ikarita ya banki nka buryo mu bumwe bwo kwishyura bugezweho hadakoreshejwe amafaranga atwarwa mu ntoki.

Isoko ricururizwamo ibikomoka ku buhinzi hibandwa cyane cyane ku biboneka hano iwacu mu Rwanda, iri soko ryiganjemo abamama aho baba bacuruza imbuto zitandukanye, nk'amaronji, indimu, imyembe, imineke, inanasi n'ibindi.

Abaturage benshi bahuriye hamwe mu gasoko, aho baje guhaha ibiribwa bitandukanye cyane cyane hibandwa ku musaruro w'ibikomoka ku buhinzi ushingiye ku mboga n'imbuto, aho harimo nk'inyanya, ibitunguru, amashu, karoti n'ibindi.

Abamama babiri bicaye ku dutebe mu isoko ry'ubucuruzi ahiganjemo imyenda ndetse n'ibikoresho cyane cyane iby'abadamu, hibanzwe ku makanzu, amajipo ndetse imitako, udutete ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi ariko cyane cyane iby'abadamu.

Abaturage benshi cyane bahuriye hamwe bitabiriye igikorwa cy'ubukangurambaga cyateguwe na sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya Airtel, aho yarimo imenyekanisha ibikorwa ndetse na serivisi byayo mu baturage, igenda izenguruka hirya no hino mu gihugu.

Inyubako ndende cyane ifite amabara y'umutuku ndetse yubakishije ibirahuri iriho ibyapa byinshi cyane byamamaza bigaragara ko ikorerwamo ubucuruzi, iyi nzu yegereye umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa, aho kugera kuri iyo nyubako zo gushaka serivisi bitagorana ahubwo uhagera wifashishije ikinyabiziga icyo ari cyo cyose

Isoko rinini ryubakiye neza, ririmo imyanya hakenewe kurambikwamo ibicuruzwa. Ahagaragara imyenda n'inkweto higanjemo amakanzu, ndetse n'indi yagenewe abamu. Aha ni mu cyanya cyagenewe imyenda, nk'uko hari n'ibindi bice byagenewe ibindi bicuruzwa, nk'ibiribwa ibikoresho byo mu rugo n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu baremye isoko ryiganjemo iry'ibiribwa, hibandwa cyane cyane ku musaruro w'ibikomoka ku buhinzi, harimo nk'ibirayi, ibitoki, imyumbati, amateke n'ibindi, aho abacuruzi bajya gushaka ibicuruzwa hirya no hino ku baturage, hanyuma bakabizana ku isoko bakagurirwa n'abandi baturage batabifite.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga bajya mu isoko rigezweho rya Nyabugogo rizwi nka Nyabugogo Modern Market, ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye cyane cyane ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Ibi bikazamura imibereho myiza y'abahakorera ndetse bigateza imbere n'igihugu muri rusange binyuze mu misoro itangwa n'abakorera muri iri soko.

Kiyosike ikorerwamo n'umu egenti w'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda MTN, ifite ibara ry'umuhondo ndetse iriho ibirango by'iki kigo, aha hatangirwa serivisi zitandukanye z'iki kigo nko kohereza amafaranga, kugura matite, kohereza no kubikuza n'ibindi bitandukanye.

Kiyosike isize amabara y'umutuku n'umweru, iriho ibirango bya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya Eyateri, imbere yayo hahagaze abagabo babiri ndetse n'umugore umwe basuhuzanya, bigaraga ko baje gushaka serivisi zitangwa n'iyi kompanyi bidasabye ko bajyaho sosiyete ikorera, hubwo bakazibonera ku bayaje hirya no hino habegereye.

Abantu babiri bicaye mu nzu icuruzwamo ibiribwa, imbere yabo hateretse ameza afite ibara ry'ikigina ndetse n'umukara, umwe muri bo afite telefone arimo gukoresha apurikasiyo y'ikigo gitanga serivi z'itumanaho mu Rwanda cya Emutiyene, aho ushobora kohereza, kugura amayinite ndetse n'ibindi bitandukanye wifashishije iyo apurikasiyo.

Umusore wambaye agapira k'ubururu ahahagaze imbere y'umukozi ukora mu kigo cy'imari, aho ari guhabwa serivise. Imbere y'umukozi kandi hari mudasobwa nini ifite ibara ry'umukara, aho hari n'ibyapa mu mpande bigaragaza uko umukiriya yakwikorera zimwe na zimwe muri serivise, nko korohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Ubutumwa bwo kuri telefone busaba nyiri telefone kwemezamo umubare w'ibanga kugira ngo yoherereze amafaranga Fabrice Hakizimana.

Inyubako ikoreramo ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu rwanda cya emutiyene ahatangirwa serivisi zitandukanye nko kuba abamukadi abakiriya bashyashya bashaka kujya kuri murongo gu gusatira abataye simukadi ndetse n'izindi zitandukanye. Ibi kanoza imitangire myiza ya serivisi ndetse hanakoreshejwe abagenti bagenda batanga serivisi zitandukanye z'iki kigo hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho ba nyir'urubuga bashyiraho ibicuruzwa bafite ndetse n'igiciro cyabyo, hanyuma abakiriya bagasuka urubuga, bagira ibyo bashima bakishyura bakabibohereza aho bari badakoze urugendo bajya kubishaka.

Urubuga rwo kuri murandasi rucurucurizwaho ibikoresho bitandukanye yaba ibyo dukenera mu buzima bwa buri munsi cyangwa se iby'ikoranabuhanga. Aho umukiriya asura urubuga akareba ibicuruzwa bihari ndetse yabishima akishyura hanyuma bakamwohereza ahari adakoza urugendo ajya kubishaka ku isoko.

Umukozi w'ikigo gitanga serivisi yo kugeza ku bakiriya ibicuruzwa bitandukanye, baba bagiye bagura hirya no hino, ndetse banifashishije webusayiti y'iki kigo, aho ajyaniye umukiriya ibyo yatumye, ahagaze yicaye kuri moto yifashisha mu kazi ke ka buri munsi, aba kandi bakaba batanga serivisi nziza mu bijyanye no kugemura ibicuruzwa.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho hifashijwe amabara y'umukara ndetse n'icyatsi kikaba kiriho amafoto y'abahanzi batandukanye, ubwo cyamamazaga igitaramo cyabaye ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri, cyiswe Kigali apu, cyahurije hamwe abahanzi batandukanye bataramira abanyagihugu bishimira ibyo bagezeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cya gudu lifu, aho umukiriya ajya kuri uru rubuga akareba ibicuruzwa bihari, yagira ibyo ashima akabyishyura bakabimwoherereza kuri aderesi yatanze, adakoze urugendo ajya kubishaka, ahubwo byose bikamukorwa yibereye iwe mu rugo.

Urubuga rwo kuri murandasi rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye harimo kugura no kugurisha aho umucuruzi ufite ibyo ashaka kugurisha ajyaho akabishyiraho ndetse agashyiraho n'ibiciro byabyo, hanyuma abaguzi baza babishima bakabyishyura, hanyuma bakabyohererezwa batavuye iwabo mu rugo.

Urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi bahajya bakareba ibicuruzwa bihari ndetse n'igiciro cyabyo, bagira ibyo bashima bakishyura hanyuma bakabyoherezwa kuri aderesi batanze badakoze urugendo bajya kubishaka ku masoko.

Urubuga rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye rukorera kuri murandasi, aho ruba rufite ibicuruzwa bitandukanye ndetse hariho n'igiciro cyabyo, umukiriya arahagera yagira ibyo ashima akishyura hanyuma bakabimwohererereza kuri aderesi yatanze adakoze urugendo ajya kubishaka mu masoko.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa mu gukora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye hifashishijwe interinete, aho abacuruzi bashyira ibicuruzwa byabo kuri uru rubuga, hanyuma abakiriya na bo bagasura urubuga bakareba ibicuruzwa bihari, babishima bakishyura bakabyoherezwa aho bari badakoze urugendo.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa Alibaba rukorerwaho ibikorwa by'ubucuruzi ku bicuruzwa bitandukanye nk'amateleviziyo, amatelefone, amafirigo n'ibindi, aho umukiriya ajya kuri uru rubuga hanyuma yagira ibicuruzwa ashima akishyura ndetse agatanga aderesi ze, hanyuma bakabimwoherereza kuri aderesi yatanze adakoze urugendo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane isize amarange y'umweru, ifite amarido y'umukara, irimo ibikoresho byose by'ibanze nkenerwa. Inzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu gusa ku kwezi ku muntu ukeneye kuyituramo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku Gisozi, hafi ya Kagugu, inzu irimo ibikoresho byose by'ibanze nkenerwa nk'ameza, intebe, utubati n'ibindi, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite amabara y'umweru ku nkuta, irimo igikombe cya kijyambere, ubwogero ndetse n'igikoni kigezweho cya kijyambere, ikaba iherereye i Kanombe mu mugi wa kigali aho igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine gusa za amafaranga y'u Rwanda

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, irimo ibikoresho byose bikenerwa nk'utubati, ameza, intebe n'ibindi bikoze mu mbaho, inzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, aho ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu gusa ku kwezi ku muntu ukeneye kuyibamo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, ifite igipangu cyiza cyane cy'umukara gisakaye, iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali aho igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri gusa z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu uyishaka.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ikodeshwa, iherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Gisozi, aho iyi nzu ifite ibyumba bine byo kuraramo, ikagira icyumba kimwe cy'ubwogero ndetse ikaba ifite n'ibikoresho by'ibanze byo mu nzu bigezweho nk'igikoni ndetse n'ibindi bikoresho bikenewemo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, irimo ibikoresho byose by'ibanze nk'intebe, utubati, ibitanda, matera n'ibindi, iyi inzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali aho ikodeshwa amadolari igihumbi n'ijana gusa ku kwezi, ku muntu ukeneye kuyituramo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite igisenge cy'umutuku ndetse harimo n'ibikoresho by'ibanze nk'utubati, ameza, intebe n'ibindi, ikaba iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite icyumba kimwe cyo kuryamamo n'icyuyumba kimwe cy'ubwogero, ikaba ifite n'igikoni cya kijyambere, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, isize amarangi y'ubururu ndetse ifite n'igipangu cyiza cyane, inyuma yayo hari ubusitani buteyemo indabo ndetse inzu ituriye umuhanda wa kaburimbo, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu gusa ku muntu uyikeneye.

Inyubako ndende, ifite amagorofa menshi, ifite ibara ry'umweru, ndetse yubakishije ibirahuri. Iriho icyapa cyanditseho "Agaciro" kigaragaza ka ari inyubako yubatswe binyuze mu kigega Agaciro Development Fund, aho Abaturarwanda bose batanga umusanzu uko bashoboye kugira ngo bihaze mu bikorerwa imbere mu gihugu ndetse banazamure ingano y'ingengo y'imari binyuze mu baturage ubwabo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane yo guturamo, ifite amarangi y'umukara ndetse n'inzugi zisa n'ikigina, ikaba iherereye i Kigali ahazwi nk'i Gikondo, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, icyumba kimwe cy'ubwogero, aho ikodeshwa ibihumbi magana abiri mirongo itanu gusa ku kwezi.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu ifite igorofa rimwe riherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka kimironko, iyi nzu ikaba ifite ibyibanze nkenerwa byose nk'intebe, ameza, ibitanda, igikoni cya kijyambere n'ibindi igerwaho kandi n'ibikorwa remezo byose byibanze nk'umuriro, amazi n'amashanyarazi.

Umutungo utimukanwa uba ugizwe n'inzu nziza cyane ifite inzugi z'ibirahurire zisize amarangi y'umukara ikaba kandi iteye irangi ry'umweru ndetse irimo amakaro hasi ndetse iyo nzu ikaba iherereye kibagabaga mu mujyi wa kigali aho ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse na kimwe cyo kogeramo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku, ifite kandi igipangu gifite amabara y'umukara, ndetse gifite n'ikigega. Iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, aho igurishwa miliyoni mirongorindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane, ifite igisenge cy'umutuku isize amarangi y'umweru ndetse n'ikigina, iyi nzu yubakishije amakaro, ikaba iherereye Kigali Kimironko, aho irimo kugurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ariko akaba yakumvikanwaho.

Urubuga rwo kuri murandasi, rukorerwaho ubucuruzi butandukanye, yaba ubw'ibiribwa, imyambaro, ibibanza, n'ibindi, aho umukiriya ajyaho, akareba ibicuruzwa bihari ndetse n'igiciro cyabyo, yagira ibyo ashima agahamagara akabyishyura, hanyuma bakabimwohereza kuri aderesi yatanze adakoze urugendo.

Icyapa cyamamaza cyatanzwe na sosiyete ikora ibikorwa bijyanye n'imitungo itimukanwa ariyo jampuriyo esiteti, aho cyagaragazaga ibikorwa gikora harimo nk'ubucuruzi bw'inzu, kubaka amazu n'imihanda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane yo guturamo ifite amabara y'umukara ndetse inazitiye n'igipangu, ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ibyumba bibiri by'ubwogero, aho ikodeshwa ibihumbi magana atatu gusa ku kwezi, iherereye Kigali ahazwi nka Kimironko.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igisenge cy'umutuku ndetse isize amarangi y'umweru n'umukara, ikaba inafite igipangu cy'amatafari, iyi nzu iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri gusa ku kwezi ku muntu ushaka kuyituramo.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu nziza cyane ifite igorofa isize amarangi y'umweru ndetse na shokora. Iyi nzu kandi ifite igipangu cyiza cy'amabara y'umweru n'umukara. Iruhande rwayo hari umuhanda nyabagendwa ku buryo byorohera kubaza muri iyi nyubako bifashishije ibinyabiziga cyangwa amaguru, kuhagera nta ngorane. Ikaba iherereye Kigali Kabeza aho ikodeshwa ibihumbi magana atanu gusa ku kwezi.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa biba bitondetse mu tubati hagendewe ku bwoko bwabyo, ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, ibikoresho, n'ibindi ibi bikorohereza abagurira muri aya maguriro kumenya aho basanga ibyo bakeneye ndetse n'igiciro cyabyo bitabagoye.

Inyubako nini cyane zagenewe gukorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho buri ruhande ruba rufite ibyo rwagenewe gucururizwamo, usanga hari uruhande rwagenewe gucururizwamo imyambaro, urwagenewe ibikoresho n'ibindi bitandukanye kandi haba hari uburyo bwo kwishyura butandukanye, ibi bikorohereza abaguzi kubona serivisi nziza muri aya maguriro

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse mu tubati hagendewe ku bwoko bwabyo, usanga hari umwanya wagenewe ibicuruzwa by'ibiribwa ,uwagenewe ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse buri bicuruzwa biba bifite n'icyapa kigaragaza igiciro cyabyo, bikorohereza abaguzi ndetse n'abacuruzi gutanga ndetse no guhabwa serivise nziza.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bipanze mu tubati ndetseanditseho igiciro cyabyo ibi bikorohereza abagura kumenya ibyo bashaka ndetse n'agaciro kabyo hagaragara umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara urimo kugenda afata ibicuruzwa bitandukanye abikura mu kabati abishyira muri aka gatete kabugenewe.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa bitondetse mu tubati ndetse hananditseho igiciro cyabyo, ibi bikorohereza ababigura kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse n'igiciro cyabyo bitabagoye, hagaragara umukobwa wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara arimo guhaha kimwe mu bicuruzwa muri iri soko rya kijyambere.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho usanga buri ruhande rufite ibyo rwagenewe gucuruzwamo. Ibi bikorohereza abagura kumenya aho bashakira ibyo bakeneye kandi bitabagoye. Bikanoroshya kandi imitangire myiza ya serivise kubacururiza muri iyi nyubako.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, hibandwa ku binyobwa, aho harimo abakozi b'iki kigo, bambaye imipira y'imihondo, amapantaro y'imikara, ndetse banakenyeye umwenda wabugenewe w'akazi, hari abakiriya kandi bicaye bareba umupira w'amaguru kuri televiziyo, ndetse banafata ibyo kunywa.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, higanjemo ibiribwa bikoze mu ifarini nk'imigati, amakeke n'ibindi, nka kimwe mu biribwa bifashwe byombi mu mibereho y'abaturarwanda ndetse n'abandi hirya no hino ku isi, aho birimo bikenerwa cyane n'ingeri z'abantu bose.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane hibandwa ku myambaro y'abagabo ndetse n'abasore, aha higanjemo amasengeri, amashati, imipira n'ibindi, ibi bikagira uruhare mu kwiteza imbere kw'ababikora ndetse bikanatanga umusoro ku gihugu bityo amajyambere akihuta.

Iguriro rigezweho rya kijyambere ahagurishirizwa ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibiribwa, aho buri bintu biba bipanze ku murongo ndetse hari n'agapapuro kagaragaza ibiciro byabo. Ibi bikorohereza abakiriya kumenya aho bashakira ibyo bakeneye ndetse n'igiciro cyabyo bitabagoye.

Abamama bane bicaye ku ntebe bishimye umwe muri bo asigaye umwana, aho bategereje guhabwa serivise z'ubuvuzi baje gushaka ku kigo nderabuzima kibegereye, aha ngaha bakirwa ku murongo hagendewe ku waje mbere ibi bigashimangira ihame ry'imitangire ya serivisi rinoze aho nta kimenyane kiba kirimo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'ubururu, cyatanzwe n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda gishishikariza abanyarwanda kuyoboka gahunda yazanywe n'iki Kigo y'ejo heza, aho umuturage yizigamira uyu munsi akazagobokwa mu gihe atagishoboye gukora.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima, nko gufata ibizamini, gusuzuma, gutanga imiti n'ibindi. Aho abaturage bajyana amakarita yabo y'ubwisungane mu kwivuza baba barishyuye mu bihe bitandukanye. Hanyuma bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze bishyuye amafaranga macye cyane angana na cumi na gatanu ku ijana, andi bakayishyurirwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu rwanda RSSB.

Icyapa kigaragaza umugabo wambaye amarinete ndetse afite n'igikapu cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, ubwo cyakanguriraga abaturage kwizigamira ejo habo hazaza muri gahunda nshya yiswe ejo heza, aho abantu bizigamira amafaranga, hanyuma bakazagobokwa mu gihe bari mu myaka y'izabukuru batagishoboye gukora.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuzwa itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB nyuma y'uko umuturage amaze gutanga umusanzu wo kwivuza mu kizwi nka mituweri desante, ibi bikazamura imibereho myiza y'abaturage aho nta murwayi ukirwarira mu rugo ahubwo ajya kwivuza akishyura amafaranga make cyane kandi aba yarishyuwe n'ubwishingizi yatanze bw'ubuzima.

Abakozi ku rwego rw'umurenge bahuriye mu cyumba cy'inama cy'umurenge, barimo baganira bungurana ibitekerezo barebera hamwe gahunda y'icyumweru, ibikorwa bizibandwaho, ndetse bareba niba buri wese yurujuje inshingano ze yari afite mu cyumweru cyabanje, bityo ngo batangire bafite umurongo umwe bose.

Abakozi bo kwa muganga barimo kwakira abarwayi mu cyumba cy'umwihariko gitangirwamo ibizamini, aho abaturage bafatwa ibizamini bigasuzumwa hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe hanyuma bagahabwa imiti igendeye ku byo basanze barwaye, ibi bikazamura imibereho yabo ndetse n'iterambere ryabo muri rusange.

Abaturage benshi bicaye ku murongo hakurikijwe uko baje, barimo kwakirwa n'abakozi bakira abarwayi kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye nko gusuzumwa, guhabwa imiti, n'ibindi. Hagezweho umumama ufite umwana uhagaze imbere y'umukozi wambaye agapfukamunwa, wicaye imbere y'ameza imbere y'ameza, imbere ye hateretse mudasobwa, arimo gufata amakuru y'umurwayi.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gusuzuma, gufata ibizamini ndetse no guhabwa imiti, ahari urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi z'ubuzima zitandukanye bitwaje amakarita ya mituweri dosante nka bumwe mu buryo bw'ubwishingizi bakoresha mu kwivuza.

Abaturage bakoraniye hamwe ku kibuga cy'umupira w'intoki uzwi nka voriboro, ahateraniye kandi abayobozi b'ibigo bitanga serivise z'ubwishingizi zitandukanye nka Saniramu ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, aho bari mu bukangurambaga bwo kumenyesha abaturage ibyiza byo kujya muri serivisi ya ejo heza.

Abantu benshi cyane barimo gukurikirana umukino w'amaboko uzwi nka voriboro nyuma y'ubukangurambaga bwari bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu rwanda RSSB gushishikariza abaturage kuyoboka serivisi ya ejo heza, aho bizigamira hanyuma bakazagobokwa mu gihe batagishoboye gukora.

Iguriro rigezweho rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye bitondekwa mu tubati hagendewe ku bwoko bwabyo, aho usanga hari ibice byagenewe ibiribwa, imyambaro, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi, ibi bikorohereza abakiriya kumenya aho bashakira ibyo bakeneye bitabagoye.

Urujya n'uruza rw'imodokari, zigenda nijoro mu muhanda wa kaburimbo. Itara ryo ku muhanda ryaka rimurika mu muhanda n'icyapa kinini cyanditseho Simba Kicukiro.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo hagendewe ku bwoko bwabyo, buri bicuruzwa kandi biba biriho agapapuro kagaragaza ibiciro byako; ibi bikorohereza abaguzi kumenya aho bashakira ibyo bakeneye, kandi bikanoza imitangire myiza ya serivisi muri aya maguriro.

Iguriro rigezweho rya kijyambere, aho ibicuruzwa biba bipanze mu tubati hagendewe ku bwoko bwabyo, haba hari uruhande rwagenewe ibicuruzwa runaka nk'ibiribwa ndetse n'urundi rwagenewe ibinyobwa, urwagenewe imyambaro gutyo gutyo, aho kandi buri bicuruzwa biba biriho igiciro cyabyo, bityo bikorohera abaguzi kumenya agaciro k'ibyo bakeneye.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bipanze ku murongo ahagendewe ku bwoko bwabyo, haba hari umwanya wagenewe gushyirwamo ibikoresho, umwanya wagenewe ibiribwa n'ibindi gutyo gutyo, ibi bikorohereza abakiriya ndetse n'abacuruzi gutanga serivisi nziza mu kazi kabo ka buri munsi.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umweru, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Imbere yayo hamanitse icyapa kigaragaza ko hakoreramo iguriro rigezweho ryitwa Mega supamaketi, aho ibicuruzwa biba bitondetse ku murongo. Imbere yayo kandi hari ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu rugo ndetse haparitse n'imodoka ifite ibara ry'umukara, nziza cyane.

Iguriro rigezweho rya kijyambere aho ibicuruzwa biba bitonde hagendewe ku bwoko bwabyo, ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu nzu, imyambaro n'ibindi. Ibi bikorohereza abakiriya kumenya aho bashakira ibyo bakeneye bitabagoye ndetse bikananoza imitangire myiza ya serivisi muri aya maguriro.